Iki ni icyapa, cyerekana ibijyanye n'ubwishingizi, aho berekana ko baguha ubwishingizi ijana ku ijana mu gihe nkigikoresho cyawe cyangwa ibindi bikorwa remezo byawe byaba byangiritse.

Aba ni abantu babiri bari mu modoka nziza, bakoreshejwe mu kwamamaza ikigo cya Radiyanti. Bakaba bavuga ko iki kigo cya Radiyanti ngo ari icyerekezo cy'inzozi zawe ndetse ko ari ibyishimo by'ubuzima bwawe n'umuryango wawe.

Iyi ni porogaramu y'imwe muri banki zikorera mu Rwanda, iyi porogaramu ikaba igufasha kubona zimwe muri serivise z'icyo kigo, harimo nko kohereza amafaranga, kugura amayinite ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha hari ubutumwa bwohererejwe umuntu, ubu bukaba ari ubutumwa nka banki ikohereza iyo hari ikintu ukoresheje konti yawe ya banki kugira ngo babikwereke cyangwa niba atari undi muntu waba yinjiye muri konti akaba yabikora.

Aka ni akantu gakoze mu rubaho, kamanitseho imirimbo igi itandukanye, ni ukuvuga utunigi ndetse n'udukomo. Ikaba ari imirimbo myiza nk'abagore bakirimbisha, ukabona basa neza.

Ni ahantu hacururizwa imyenda ndetse n'imirimbo, byose by'umuco wa kinyarwanda, aho hari imipira iriho imigongo, kikaba ari kimwe mu bintu bikunze kuba biri ku myambaro ikorerwa mu Rwanda.

Ni ahantu hacururizwa imirimbo ndetse n'imyenda bigiye bitandukanye, byose bikorerwa mu Rwanda. Bikaba ari ibintu biri gukundwa cyane murino minsi aho abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bari gukunda kwambara ibintu bikorerwa mu Rwanda.

Aka ni akabati k'ikirahure, kakaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya elegitoronike ndetse n'imikufi, bikaba bigaragaza ko ari bwo bucuruzi bukorerwa aha ngaha.

Iri ni iduka ricururizwamo imyenda, bigaragara ko ari imyenda ijyanye n'umuco ndetse hari n'ibitebo ndetse n'indi mitako igiye itandukanye byose bigiye bifitanye isano n'umuco, bikaba ari ibintu byiza cyane.

Aha ni ahantu hacururizwa imyenda, urabona ko hari imyenda myiza cyane igiye itandukanye iganjemo iy'abagore. Hakaba hari umugabo ndetse n'umugore, uyu mugore bikaba bishoboka ko ari gusobanurira uyu musore, uko agomba gukora akazi.

Ni abagabo batatu bahagaze bafite ikintu kimeze nk'igifunguzo kinini, bakaba bahagaze imbere y'imodoka ebyiri zikiri nshyasha, bigaragara ko imwe muri zo imaze kugurwa.

Aha ni ahantu hacururizwa imodoka, hakaba hari umuntu uri gusuhuzanya n'undi, uwo muntu bikaba bishoboka, ko amaze kugura imodoka, ukaba ubona rwose ko yishimye cyane, ko ari ibintu yari yarahoze apanga kuva kera.

Ni ahantu hacururizwa imodoka zo mu bwoko bwa nisani, hakaba hari imodoka ihari, ndetse hakaba hari abagabo batatu bahagaze ku ruhande rumwe rw'iyo modoka ndetse n'undi mugabo uhagaze ku rundi.

Iyi ni imodoka irimo iragurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni icumi, ikaba yitwa KIA, bakaba bavuga ko iri ku isoko kandi iri ku giciro kitari kinini.

Ni abantu babiri bahagaze imbere yigikamyo bafite n'ikintu kimeze nk'urufunguzo kinini cyerekana ko umwe muri aba bantu amaze kugura iyi modoka bahagaze imbere.

Hano ni ahantu hakorera ikigo kizwi nk'Akagera, Akaba ari ikigo gicuruza ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho ubagana, ukabaha amafaranga, bakaguha imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe

Ni imodoka aha akaba ari imwe imbere yayo, hari intebe nziza, zisa neza ubona ko ari imodoka umuntu yakwishimira kugura. kuruhande yayo hari izindi modoka nazo zihagaze, hari nk'ifite ibara ry'umutuku.

Iyi ni imodoka akaba ari imodoka nziza cyane, bakaba berekana uburyo ki ushobora kuyibona, nimero ushobora guhamagaraho bityo bakabasha kuyiguha ku giciro cyiza.

Ni abantu babiri umwe w'umwirabura n'undi w'umuzungu, umwirabura akaba afite udutsinga mu ntoki ndetse umuzungu we hari akantu afite mu ntoki ari kumwereka, bikaba bishoboka ko umwirabura ari kumusobanurira uko ako kantu gakoreshwa.

Hari imodoka nziza, ifite ibara ry'umukara bigaragara ko ikiri nshyashya kuko nta na purake iriho cyangwa akapa kaba kariho kagaragaza imibare iyiranga hakaba hari n'izindi ziyiri iruhande.

Aha hari imodoka nziza cyane, bari kwerekana ko igurishwa bavuga ko ariyo muri bibiri nacumi na kabiri ko aribwo yakozwe. Ndetse ko ishobora gucomekwa n'umuriro w'amashanyarazi, ndetse ikaba yanatwarwa na moteri bisanzwe.

Aya ni ameza ariho ibiceri bibiri, ari igiceri cya makumyabiri cy'amanyarwanda ndetse n'igiceri cy'atanu, aya akaba ari amafaranga amwe mato mu manyarwanda ndetse adakunze no gukoreshwa cyane kuko ibintu byinshi usanga bihenze bitayagura.

Aha ni muri banki aho abantu bagiye batonze umurongo, imbere y'utuzu tuba dufite ikirahuri imbere, haba harimo abantu bari kubakira, bukaba ari uburyo bwiza bwo kwakira abantu, aba bantu bakaba rero bategereje ko bagerwaho ngo bahabwe serivisi baje gushaka.

Ni ahantu hacururizwa amata, hakaba hari icyuma gishinzwe kuyakonjesha, kugira ngo amare igihe akiri mazima ndetse imbere hakaba hari ahantu bakirira abantu, hakaba hari umusore uri kumwe n'umwana.

Hari utujerekani ndetse n'udukopo tuba turimo ibintu bikomoka ku mata aba yatunganyijwe bakongeramo ibindi bintu nk'isukari ndetse n'ibindi byinshi bituma aryoha kurushaho.

Aha ni ahantu hacururizwa amata, hakaba hari icyuma gifite akamaro ko kuyakonjesha bityo abakiriya bakayasanga akimeze neza ntacyo araba; ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kubikamo amata kuko bituma amara igihe kirekire.

Ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hakaba hari umugore ufite ijagi uri gushyiramo amata ayakuye mu ndobo, bikaba bishoboka ko ari nk'umukiriya ari kuyahereza uri mu idirishya.

Iki ni icyuma kibikwamo amata kugira ngo akonje bityo agume ari mazima kugira ngo abaguzi nibaza kuyagura basanga akimeze neza atarapfa, kuri icyo cyuma hakaba hateretseho n'akantu karimo udupapuro tw'isuku bihanaguza.

Ni ameza ateretseho igikombe kirimo amata ndetse n'isahani iri ku ruhande y'icyo kirahure, aha hakaba ari ahantu wajya ukahafatiraho ifunguro rya saa sita, bityo ukaba wasubira mu kazi kawe umeze neza.

Aka ni akabati k'imbaho ndetse n'ikirahure, mu kirahure mo imbere tukaba tubona harimo imbuto zigiye zitandukanye urugero nk'imineke ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ubu ni uburyo ushobora gukoresha bwa kimwe mu bigo by'itumanaho cyo mu Rwanda cyitwa MTN, ukaba wabona serivisi zabo zijyanye no kohereza amafaranga ndetse no kwishyura amafagitire agiye atandukanye.

Ni abantu babiri, umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite telefone mu ntoki ndetse n'umugore uhagaze iruhande rwe wambaye igitenge uri guseka, bakaba barakoreshejwe mu kwamamariza ikigo cy'itumanaho.

Ni urubuga rukorera kuri murandasi rwerekanye uburyo ushobora kwishyuramo ibintu byabo ukoresheje ikoranabuhanga, bakaba bagaragaje uburyo ki ushobora kwishyura ukoresheje telefone umuntu akaba arimo arabigerageza.

Aya n'amafaranga, akaba ari ayo mu gihugu cya Tanzania, hakaba hariho inoti y'ibihumbi icumi, ibihumbi bitanu, iya bibiri ndetse ni iy'igihumbi, si ibyo gusa kuko hariho n'ibiceri.

Ni inoti zirambitse ku meza zikaba ari iz'amayero, akaba ari amafaranga akoreshwa mu Burayi hakaba hariho inoti y'atanu, icumi, makumyabiri ndetse n'andi agiye atandukanye.

Uyu ni umuntu ibiganza bye biragaragara ko birimo amafaranga y'amanyamahanga akaba arimo arayabara, bikaba bigaragara ko yiteje imbere bityo akaba yaragize icyo ageraho akabona amafaranga yo kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Hari umuntu urimo urabara amafaranga bigaragara ko ari amafaranga menshi cyane pe, bikaba bigaragara ko ashobora kuba ari nk'umubitsi abikira abana amafaranga cyangwa akaba ari aye we ubwe yizigamiye.

Ni inzu iriho ibyapa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, aho hari nk'ikiriho cyerekana ko ari ahantu hakorerwa ivunja ry'amafaranga, aho ujyana amafaranga yo mu gihugu kimwe bakakuvunjira ayo mu kindi.

Umwanari agaragara ikiganza, ari guhereza undi muntu amafaranga y'abanyamahanga azwi nk'amadolari, bikaba bishoboka ko ari ahantu havunjirwa amafaranga, akaba yari aje bakayamuha cyangwa aka kabiri uri kuyatanga kimwe muri ibyo.

Aha ni ahantu havunjishirizwa amafaranga, ukaba ujyana amafaranga yo mu gihugu kimwe urugero nk'ayo mu Rwanda bakaba babasha kuguha amafaranga yo mu kindi gihugu cyangwa ukajyana amafaranga yo mu kindi gihugu bakabasha kuguha amanyarwanda.

Ni ahantu havunjishirizwa amafaranga agiye atandukanye, aho ujyana amafaranga amwe bakakuvunjira ayo mu kindi gihugu wababwiye gushaka, hakaba hari abantu bagiye batandukanye baje kwaka kimwe muri ibyo.

Aha ni ahantu hakorerwa ivunja ry'amafaranga, aho nk'umunyamahanga ashobora kuzana amanyamahanga wenda nk'urugero nk'amadolari, bakaba bamuvunjira bakamuha amanyarwanda bityo akabasha kugura ibintu mu Rwanda.

Ni ahantu ushobora kujya ukohereza cyangwa ukakira amafaranga avuye mu mahanga bikaba bifasha nk'abantu bafite imiryango yabo ituye hanze kuba babasha kwakira amafaranga yaboherereje cyangwa na bo bakaba bayoherezayo.

Aha hantu hari ameza meza, akoze mu mbaho ndetse n'intebe nziza nazo zikoze mu mbaho, si ibyo gusa, hari n'ibindi bintu nabyo bigiye bikoze mu mbaho, bikaba ari ibintu byiza umuntu yagura, agashyira mu ruganiriro rwe, rugasa neza.

Hari ibintu bigiye bitandukanye bikoze mu mbaho, hakaba hari utumeza twaba utunini ndetse n'udutoya, hakaba hari intebe nziza cyane ndetse n'utubati bikaba bisa nkaho hano bihacururizwa.

Ni intebe nziza cyane ndetse n'udusego twazo, bikaba bigaragara ko ari intebe umuntu yakishimira kugura akazijyana iwe, bityo abantu bakazajya baza kumusura, bakabona hasa neza.

Iyi ni inzu nziza cyane aho hari ama esikariye agenda amanuka agana ahantu mu ruriro, hakaba hari intebe nziza cyane n'akabati keza ndetse hakaba hari n'ameza, ateretseho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byiza cyane.

Aha ni ahantu ho gusohokera hari pisine cyangwa ubwogero buba ari bunini cyane ndetse n'udutebe two kuruhukiraho mu gihe umuntu asoje kuba yakogera muri iyo pisine bigaragara ko ari ahantu hitwa Osisi paka.

Ni icyumba cyiza cyane gifite itapi y'umutuku ndetse n'intebe nziza cyane nyinshi kandi ziri ku murongo n'ameza ariho amacupa y'amazi, bikaba bigaragara ko ari icyumba cyo kuberamo inama.

Ni ahantu hari abantu batandukanye, bamwe baricaye abandi bari kugenda, akaba ari ahantu hasa neza bishoboka ko ari nka hoteli iberamo inama zikomeye, aho abantu bajya bakaganira ku bijyanye n'ibigo byabo.

Hari inzu zimwe zigeretse, hakaba hari ibyapa bigiye biriho ibintu bitandukanye, hakaba hari ikiriho cyanditse SONARWA genero, akaba ari ikigo cy'ubwishingizi.

Ni abagabo batatu bicaye imbere y'ameza y'umweru, bose bakaba bambaye amakoti, rwose bambaye neza, bikaba bigaragara ko bakorera ikigo cy'ubwishingizi.

Ni ahantu hari ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru hakaba hari n'abantu bicaye bari gukoresha mudasobwa akaba ari ahantu bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ikigo runaka.

Ahantu heza hafite isuku, hasa umweru, hari intebe zifite ibara ry'ubururu, ndetse haragutse cyane, bigaragara ko habera nk'inama cyangwa amahugurwa.

Aha ni ahantu hatangirwa serivise z'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Saniramu, hakaba hari abantu bagiye batandukanye biteguye kwakira ababagana, umuntu akaba ahagera bakamuha serivise yifuza zigendanye n'iki kigo.

Icyapa cya banki, imwe muri banki zo mu Rwanda Ekwiti banki, kikaba ari icyapa gishishikariza abantu serivisi nshya bafunguye, gishishikariza abaguzi bayo cyangwa se abakiriya bayo gufata inguzanyo.

Ni abantu bahagaze, bafite ibintu by'ibitabo binini by'umweru, bari kugenda barebamo, hakaba hashobora kuba ari muri banki, kuko inyuma yabo hari n'abatonze umurongo.

Iki ni icyapa cya banki y'abaturage, aho hariho umugore uri kwitaba telefoni ndetse wambaye ingofero, bakaba bari kwamamaza bavuga ko ushobora kubona inguzanyo utarinze utanga ingwate.

Iki ni icyapa cyamamaza banki ya Kigali, aho bari kuvuga ko bagufasha ukaba wakangura umushinga wawe, bakaguha inguzanyo ukeneye kugira ngo umushinga wawe ubashe kugenda neza.

Uru ni urupapuro rutangwa muri banki yo mu Rwanda yitwa Akisesi, bakaba baruguha kugira ngo wuzuzeho imyirondoro mu gihe ugiye kwaka umwenda. Muri iyo myirondoro hakaba harimo amazina yawe, nimero ya konte yawe ya banki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ricuruza imyenda ndetse n'ibindi bintu bijyanye nayo, hakaba hari imyenda itandukanye urugero amakanzu, amapantaro, amashati ndetse n'ibindi byinshi byiza umuntu yakambara akaberwa.

Ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye urugero nk'inkweto zo kwambara mu rugo cyangwa izikunzwe kuvugwa ko ari izo kogana ndetse hakaba hari abantu bagiye batandukanye akaba ari isoko ricururizwamo n'ibindi bintu.

Ni umuntu uri gukoresha telefoni ye, agerageza kwishyura mugenzi we, akaba ari gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, aho wohereza amafaranga mugenzi wawe ukoresheje telefoni. Akaba ari kugerageza kumwoherereza amafaranga igihumbi y'amanyarwanda.

Aha ni ahatangirwa serivisi za kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda kizwi nka MTN, hakaba hari abantu bari gutanga serivisi zacyo ndetse n'abandi babahagaze imbere baje kwaka izo serivisi.

Ni umuhanda, ruguru yawo hari akazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari ak'ikigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda cyitwa MTN, ako kazu ukaba ukegera iyo gafunguye bakaguha serivise zitandukanye z'icyo kigo.

Uyu ni umuntu uri gukoresha telefone ye ari kugerageza kwinjira muri porogaramu ya MTN, iyo porogaramu ikaba iba irimo serivisi za mobayiro mani zigiye zitandukanye, urugero nko kohereza amafaranga cyangwa kugura amayinite yo guhamagara.

Ni akapa kometse ku rukuta gafite ibara ry'umuhondo kanditseho izina ry'ubucuruzi ndetse n'imibare ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kwishyura uwo mucuruzi nta kindi kiguzi watswe.

Aha hari akazu k'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN kakaba gafite ibara ry'umuhondo, muri ako kazu hakaba harimo umuntu w'umukobwa wambaye agapira k'umukara ndetse hari umugabo waje gusaba serivisi z'icyo kigo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Aha hari akazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo cya MTN, kikaba ari kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, aka kazu kakaba karimo umwe mu bakozi b'icyo kigo, aho ategereje ko hagira umukiriya uza akamuha serivisi zigiye zitandukanye.

Bahagaze munsi y'umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN, kuko binanditseho bikaba bishoboka ko baje kwaka serivisi z'icyo kigo urugero nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo, kakaba ari aka kimwe mu bigo by'itumanaho, ibikorera mu Rwanda kizwi nka MTN, aho ugana aka kazuba bakaguha serivisi z'icyo kigo, zigiye zitandukanye.

Mu iguriro ryo kuri murandasi aho bari gusobanura ko ushobora kugurira ibintu mu mahanga mu gihugu icyo ari cyo cyose kandi bakakwizeza ko babikugezaho neza nta kintu byabaye.

Ni abagabo babiri, umwe w'umwirabura n'undi w'umuzungu, bombi bambaye amataratara cyangwa se amarineti. Bombi bakaba banafite ingofero z'icyatsi, zikaba zifite akamaro ko kurinda umuntu ibyago mu gihe ari kuri moto.

Ikigo cyitwa Albaba cyashinzwe n'umugabo w'umushinwa, gifasha abantu kuba batumiza ibintu hanze, bakaba bafite ibintu bitandukanye amasakoshi, ibikoresho byo mu nzu, amateleviziyo n'ibindi bitandukanye, ubu ushobora gutumiza uri mu Rwanda bikaba byakugeraho utiriwe ava aho uri.

Iri ni itangazo ryari ririmo riratumirira abantu kuba bakifatanya ku nama yari kubera kuri murandasi. Aho bavugaga ko hari abantu b'intararibonye baribuze kuganiriza abantu bityo bakamenya n'uburyo baba inararibonye, mu bijyanye no gukora imishinga ndetse no kwiteza imbere.

Aha hari amamodokaka manini azwi nk'amakamyo menshi, akaba yanditseho twiga, akaba ari ay'iki kigo, akaba ashinzwe gutwara ibicuruzwa by'icyo kigo abivana ahantu hamwe abijyana ahandi.

Uru ni urubuga aho ushobora gukoresha murandasi, ukarujyaho ukaba watuma ibyo kurya cyangwa imbuto bakabikugezaho, ubu ukaba ari uburyo bwiza bugezweho bw'ubucuruzi mu Rwanda.

Aha hari umusore wicaye kuri moto, iyi moto ikaba ifite akamaro ko kujyanira abantu ibintu baguze ikabibajyanira mu rugo, kuko iriho agasanduku, ako gasanduku akaba ariko kaba karimo ibyo bintu.

Uru ni urubuga ushobora guhahiraho ukoresheje murandasi, aho berekanye ko bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, urugero nk'amaradiyo, amamashini, imyenda, inkweto, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu igeretse kenshi, hejuru hakaba handitse ko ufite amadolari magana atanu mirongo itanu, ushobora kujya uyikodesha kandi ntabwo waba uhenzwe kuko ni inzu nziza cyane.

Ni inzu bari kwerekana iri muri Kigali, bavuga ko ushobora kuyigura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, bakaba bari bari kwerekana ahantu ho kwicara ni ukuvuga mu ruganiriro.

Ni igitanda cyiza ndetse hariho n'imisego myiza, bakaba berekana ko icyo gitanda kiri mu cyumba cy'inzu ifite ibindi byumba ndetse akaba ari inzu iri ku isoko, ukaba wayigura mu gihe waba ufite ubushobozi.

Ni ahantu hari inzu igurishwa, ikaba igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, bakaba berekana ko mu gihe waba ufite amafaranga angana gutyo, ushobora kwigurira ino nzu nziza, ifite igipangu cyiza.

Ni inzu iri kugurishwa aho ba nyirayo bifuza amafaranga agera kuri miliyoni ijana na mirongo ine, akaba ari inzu ifite uruzitiro rwiza ndetse no mo imbere hakaba hari umwanya uhagije abana bakiniramo.

Aha ni ahantu berekanye ushobora gukodesha amadorari magana atanu mirongo itanu n'atanu mu Rwanda, akaba ari ahantu heza hari intebe z'icyatsi, utubati twiza ndetse n'ameza.

Ni inzu irimo intebe nziza, ndetse ikaba irimo n'insakazamashusho nziza, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu, ikaba iherereye Kibagabaga mu mugi wa Kigali.

Ni inzu ifite urugi rw'umweru ndetse n'amakaro imbere ikaba ikodeshwa, ikaba iherereye i Kigali i Remera, ikaba ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe.

Iyi ni inzu iri Kanombe ikodeshwa aho ushobora kwishyura ibihumbi magana ane ku kwezi, ukabasha kuyikodesha. Ikaba ifite ibyumba bitatu, ndetse n'ubwogero bubiri.

Iyi ni inzu nziza iri Kagarama ikaba iri gukodeshwa ku bihumbi magana atandatu ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, akaba ari inzu umuntu afite ubushobozi yakodesha kuko ari inzu igaragara neza.

Ni inzu iherereye i Kanombe ikodeshwa, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, amafaranga atari menshi kuko n'inzu ubona ko ari nziza.

Ni inzu nziza iri Kabeza bakaba bavuga ko ikodeshwa, ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu ndetse bakaba bavuga ko kuyikodesha ari ibihumbi magana atanu gusa by'amanyarwanda.

Ni umukobwa ufite igipapuro mu ntoki batwaramo ibintu, akaba asutse ndetse yambaye n'umupira w'umweru, akaba ari mu isoko arimo arahaha ibintu byo gutekesha, nk'ubu arimo arahaha ibitunguru.

Ni abantu benshi bari hamwe, bamwe bakaba bicaye abandi babahagaze imbere, abo bicaye bakaba hari serivisi bari guha abo bahagaze, ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwakira abantu.

Aha ni mu isoko, hakaba hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, birimo imyenda, ibikapu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba hari abantu benshi baje kugura bimwe muri ibyo bintu.

Ni iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse harimo n'abantu b'ingeri nyinshi bahageze baje guhaha igikorwa cy'ubucuruzi akaba ari igikorwa gikunze gukorwa mu rwanda ndetse n'ahandi henshi kuko kibyara inyungu.

Ni ahantu higanje amabara y'umutuku bigaragara ko hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye no gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, urugero nk'amatelefoni, za mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi.

Ni abantu benshi bari ahantu mu iduka rya kijyambere bacuruza ibintu bya kinyarwanda, birimo nk'ibitenge ndetse n'ibindi byinshi akaba hari umugore uri gutambuka.

Ni abantu bicaye ahantu kwa muganga bakaba bategereje ko bagerwaho, akaba ari abantu b'ingeri zose kuko harimo abasore, abakecuru, abagore ndetse n'abana. Ubu bakaba ari uburyo bwegerejwe abantu bwo kuba bakivuza mu gihe bahuye n'ibibazo bijyanye n'ubuzima.

Ni abagore babiri, bombi biteze, umwe yiteze igitambaro, undi yiteze igitenge, bose bafite amakarita asa ubururu, bakaba bari kuyarebaho bombi.

Aka ni agakarita gatoya k'umuhondo, kakaba kariho ifoto ya nyirako, bigaragara ko ari umwana. Aka kakaba ari agakarita k'ubwishingizi kazwi nka mituweli. Kakaba gakoreshwa umuntu akabasha kuvurwa ku giciro gito.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubwishingizi cyo mu Rwanda RSSB, mu magambo arambuye Rwanda sosho sekiriti bodi, kikaba gishishikariza abakiriya bayo gusuzuma imisanzu yabo muri RSSB.

Ni abantu bagiye batandukanye bamanitse udupapuro turiho amafoto yabo tuzwi nka mituweri, utu tukaba ari udupapuro dutangwa n'ikigo cy'ubwishingizi dufasha umuntu kuba yagenda akavurwa kandi ku giciro gito.

Aha ni ku bitaro cyangwa se ku kigo nderabuzima aho abantu bicaye bategereje ko bagerwaho kugira ngo bahabwe serivisi zo kwivuza, bose bakaba bafite ibipapuro byanditseho ibijyanye n'indwara baje kwivuza.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Kabazungu, akaba ari ahantu wakwihutira kujya mu gihe waba ugize ikibazo runaka cy'ubuzima bakaba bagufasha, nk'urugero nk'umugore wenda agiye kubyara, akaba yabagana.

Ni abantu babiri, umwe ni umugore wambaye umupira ufite ibara rya oranje, akaba afite ikarita y'umuhondo mu ntoki izwi nka mituweri akaba ari kuyitanga kugira ngo ahabwe ubufasha bujyanye n'ubuvuzi.

Ni kwa muganga, hakaba hari abantu biganjemo abasaza, ndetse n'abakecuru, bose bafite impapuro zigiye zanditseho ibintu bijyanye n'uburwayi bwabo, bakaba bategereje ko bagerwaho ngo bavurwe.

Ni iduka ricuruzi ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'inyama, imboga ndetse n'imbuto, ukaba ari ahantu wagana ukagura kimwe muri ibi kandi urabona ko ari ahantu hasa neza hafite isuku.

Ni iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, akaba hari umugabo wambaye imyenda y'ubururuciye iciyemo utorongo ndetse na sandari, akaba hari n'umukozi w'iryo duka urimo uramurebera bimwe mu byo bacuruza ngo abimu abigure.

N'inyubako igeretse, mu gice cyayo cyo hasi harimo iduka, rikaba ari iduka ricuruza ibintu bike bitandukanye, ndetse n'imbere yayo haparitse imodoka y'umukara ubona nziza.